Ikigo cy'amashuri y'inshuke kigizwe n'ibyumba by'amashuri, ibikoresho akaba ari ahantu tuzana abana bacu bagakura ubumenyi bityo bakazagirira igihugu akamaro muri rusange.

Ibishushanyo bitandukanye, indobo, ikiyiko ndetse n'ibindi byifashishwa mu mashuri y'inshuke kugira ngo abana bagire uburezi bwiza.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri y'inshuke, ibikinisho ndetse n'ibishushanyo bitandukanye bikaba bituma abana bagira ubwenge mu gihe cy'amasomo.

Ubwoko bw'ibikoresho, byifashishwa, mu mashuri y inshuke. Aho babigisha uburyo inyuguti zandikwa, bigatuma abana bakura neza.

Ubukarabiro buri mu kigo cy'amashuri y'inshuke, akaba ari aho abana bakarabira kugira ngo birinde indwara zitandukanye, bityo bagire ubuzima bwiza.

Ibishushanyo bitandukanye byifashishwa mu mashuri y'inshuke hakaba hashushanyijwe abana babiri bicaye ndetse bari gushushanya bigafasha abana kwiga neza.

Ubwoko bw'ibikinisho bitandukanye byifashishwa n' abana bo mu mashuri y'inshuke mu masomo yabo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi bakure bafite ubwenge.

Ubwoko bw'ibikinisho bitandukanye byifashishwa mu mashuri y'inshuke, akaba ari ibishushanyo bifasha abana gutekereza neza bityo bakagira imikurire myiza ndetse n'ubwonko butekereza neza.

Igishushanyo kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, akaba ari ibishushanyo byifashishwa mu mashuri y'inshuke kugira ngo bifashe abana mu myigire yabo ya buri munsi.

Inyubako igizwe n'amarangi y'ubururu, amabati y'ubururu, akaba ari ikigo cy' incuke cya nyagatare, kikaba ari ahantu abana bajya gukura ubumenyi.

Umupira w'amaguru, ukaba uri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, akaba ari igikoresho kifashishwa mu mashuri y'inshuke kugira ngo abana babashe kwidagadura.

Ibishushanyo biriho abana babiri uw'umuhungu n'umukobwa, umukobwa uhetse igikapu, bambaye impuzankano bikaba byifashishwa mu mashuri y'inshuke kugira ngo abana bige neza.

Ikigo cy'amashuri, uruhande rumwe rukaba rusizeho irangi ry'umuhondo, hashushanyijweho inzovu ndetse n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, ririmo amabara y'icyatsi, umuhondo, ubururu ndetse n'izuba.

Ibikoresho bitandukanye, biri mu mabara atandukanye, byifashishwa mu mashuri abanza kugira ngo abana bagire uburezi bufite ireme.

Ibishushanyo bitandukanye biriho inkuru ishushanyije bikaba byifashishwa mu mashuri abanza kugira ngo abana bagire ubumenyi rusange.

Ibishushanyo ndetse n'amabara atandukanye byifashishwa n'bana bo mu mashuri abanza bigatuma biga kandi bagatsinda mu mashuri ndetse n'amasomo yabo.

Ibikoresho bitandukanye, amakayi, amakaramu y'ibiti, ndetse n'ibindi bikoreshwa mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza.

Igishushanyo kiriho abana babiri, imisozi, ndetse n'imigezi bikaba ari ibishushanyo byifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza kugira ngo amasomo yabo agende neza.

Ubwoko bw'ibikinisho ndetse n'ibishushanyo bitandukanye bikaba byifashishwa n'abana bari mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza bagakura bafite ubwenge.

Icyumba cy'ishuri kigizwe n'inzugi z'ubururu, amabati y'ubururu, amatafari ahiye, imbere hari ubukarabiro, kikaba ari ik'ishuri ry'amashuri abanza.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ufashe indangururamajwi aho hari ababyeyi b'abamama n'abagore ndetse n'abagabo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'abatoya aho ari kuganiriza abana.

Umwarimu w'umugore, wambaye itaburiya y'umweru, uri imbere y'abanyeshuri batoya, imbere y'ikibaho, akaba ari abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke n'ay'abato.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye byifashishwa mu mashuri abanza, bikaba ari ibikoresho bituma abana bakura bazi gutekereza neza.

Inyubako ifite amagorofa, ikaba iri mu mabara y'umuhondo, amadirishya y'ubururu, ikaba iriho ibirango bigaragaza, ishuri ribanza n'amazina yaryo.

Ibikoresho bikoreshwa n'abana bo mu mashuri matoya, aho dusangamo ibitabo bifasha kongera imfashanyigisho bigatuma umwana akura azi gusoma, no kwandika neza.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye bikoreshwa mu mashuri abanza, ibitabo, indobo amakaramu y'igiti ndetse n'amatunda yokwigishirizaho.

Ibikoresho ndetse n'ibikinisho byifashishwa mu mashuri abanza, biri mu mabara atandukanye, bigatuma abana bakura bafite ubwonko butekereza neza bagatsinda neza.

Ibishushanyo bigizwe n'amabara atandukanye, ndetse n'ibikinisho, byifashishwa mu mashuri abanza, mu guha, ubumenyi abana , kugira ngo, bagire, uburezi bufite ireme.

Inyubako z'amashuri abanza, zigizwe n'amarangi y'umutuku ndetse n'umuhondo, amabati y'ubururu, akaba ari inyubako zigishirizwamo abana bakiri batoya.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, abarezi ndetse n'abashyitsi, bakaba bahuriye mu cyumba gikorerwamo inama kugira ngo bungurane ibitekerezo ku byabateza imbere.

Abanyeshuri b'ingeri zitandukanye, abarezi ndetse n'abandi bantu bahuriye mu bikorwa byo kwiga mu mashuri yisumbuye.

Umunyeshuri wumukobwa wambaye ishati y'umweru akaba afite umusatsi mukeya, akaba ari umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'umweru ndetse na kaki ndetse n'umurezi imbere yabo, aho ari kubagezaho ijambo.

Abanyeshuri b'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bicaye mu cyumba cy'amashuri aho bari gukurikirana amasomo yabo kugira ngo babashe kugira ubumenyi.

Abanyeshuri batandukanye, abahungu batatu, ndetse n'umukobwa, wambaye impuzankano ya kaki, amashati y'umweru, ndetse n'imipira y'ubururu, bakaba bambaye udupfukamunwa, ku ruhande hakaba hariho umurezi.

Urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, abashinzwe umutekano ndetse n'ababakuriye n'umugore uri kubaganiriza ku byabagirira akamaro.

Abanyeshuri b'urubyiruko rutandukanye, abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye, iniforume za kaki ndetse n'imipira y'umuhondo, bakaba biga mu mashuri yisumbuye.

Ahahuriye abanyeshuri batandukanye abahungu ndetse n'abakobwa bambaye amashati y'umweru ndetse n'iniforume za kaki ndetse n'abarezi.

Umunyeshuri w'umukobwa wambaye agapfukamunwa, impuzankano ya kaki ndetse n'ishati y'mweru, inkweto z'umukara ndetse n'amashati y'ubururu ndetse n'ushinzwe gufata ibizamini.

Igishushanyo cyerekana ikigo cy'amashuri yisumbuye cya karangazi, kikaba kigaragaza ndetse na kirazira z'abarimu b'icyo kigo, amahame y'intore, ikivugo cy'ishuri.

Ibibumbano bitandukanye biri mu mashusho y'umuntu ndetse n'ibindi ku ruhande, akaba ari ibikorwa by'ubugeni bikorwa n'abiga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza.

Ibishushanyo byifashishwa ndetse bigakorwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'imyuga ndetse n'ayisumbuye ndetse naamakaminuza bikaba ari ibikorwa by'ubugeni.

Inyubako zigizwe n'amagorofa, amarangi y'umuhondo, imbere hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'indabyo z'ubwoko butandukanye.

Abanyeshuri b'ubwoko butandukanye, abakobwa ndetse n'abahungu, aho bahuriye mu cyumba gifatirwamo amasomo ndetse n'umurezi, bakaba biga mu mashuri makuru na kaminuza.

Umunyeshuri wambaye ikoti, agapfukamunwa, akaba yicaye ku ntebe imbere ku meza akaba hari mudasobwa ikaba yifashishwa mu gukora imikoro bityo ireme ry'uburezi rigatezwa imbere.

Abanyeshuri batatu b'abakobwa ndetse n'umwe w'umugabo bakaba bambaye amakanzu ndetse n'ingofero mu mutwe bakaba bishimira ko barangije amasomo yabo.

Ubwoko bw'ibibumbano bikorwa mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, bikaba ari ibikorwa by'ubugeni, bikaba bidufasha mu gusigasira umuco ndetse bigatanga n'amafaranga.

Abanyeshuri batandukanye, ababahungu ndetse n'abakobwa, aho bahuriye, mu ishuri, imbere yabo hakaba ari za mudasobwa, bari gukora umukoro bigatuma batsinda neza.